Umunyeshuri uri gutambuka mu muhanda w'igitaka, yambaye inkweto z'umuhondo, yambaye agakabutura k'umutuku wijimye, yambaye ishati ya pinki yeruruka, iruhande rwe hari ikigo cy'amashuri bisa nkaho avuye ku ishuri.

Abanyeshuri bambaye amashati ya bleu ciel, amakabutura ya kake, bafite udusahane mu ntoki two kwaruriramo iyo bagiye kurya ku ishuri, ni abana b'abahungu batatu.

Ni mu ishuri ry'abana bato aho harimo intebe bicaraho, ku ntebe imwe harambitseho igikapu cy'umukara, izo ntebe ziteye ku mirongo, aho abana nta bari mu ishuri.

Ikigo cy'amashuri cya G.S Cyarwa, aho abanyeshuri bari imbere y'urugi rwo ku marembo, barimo barashaka kwinjira mu kigo mo imbere kugira ngo bakurikirane amasomo.

Ibikoresho by'abanyeshuri biba birimo intebe, ameza, ibitabo amakayi ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri b'ingeri zose

Abana bafatanye ku rutugu ni abana biga mu mashuri abanza, aho bari mu kibuga hagati, bamwe bari gutambuka bajya mu busitani, abandi bava mu ishuri.

Abana batatu bambaye impuzankano y'amashuri abanza, bari mu muhanda bari kwerekeza mu kigo cy'amashuri, abo bana umwe muri bo ahetse ibage mu mugongo ndetse abandi bari kugenda bamuri hepfo.

Icyapa kiri ku muhanda imbere y'ibiti, ndetse umuhanda w'ibitaka, haruguru harimo imodoka zitagaragara neza, aho abantu banyura ndetse n'aho imodoka zinyura harahari.

Abanyeshuri bari imbere ya mudasobwa, bicaye bakurikiye, bari kumwe n'umwarimu wabo, ubigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga, aho biga ari benshi.

Ni mu ishuri ry'abana bato, aho hari ikibaho kinini cyane cyandikishijeho amabara y'umweru, bakoresheje ingwa y'umweru. Ikibaho kirasa umukara.

Ibitanda bigeretse, ni ibitanda birimo uburiri bushashe, hari umuryango ufunguye ndetse hari n'ibikapu biteretse iruhande rw'ibyo bitanda.

Abanyeshuri baricaye, imbere yabo hari mwarimu, bicaye mu mbuga irimo ibyatsi munsi y'ishuri, ishuri ryubakishije amatafari ahiye rifite ibirahuri by'ubururu.

Ibitabo byinshi by'amabara menshi atandukanye har iby'icyatsi, umuhondo, idoma harimo n'ibindi by'umukara, byose bifite aho babishyize mu tubati bitewe n'ubwoko bwa buri gitabo.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu, hari idarapo ry'u Rwanda imbere y'icyo kigo, ubusitani bwiza ndetse hari n'ibiti bizana akuka keza muri icyo kigo.

Inyubako nyinshi ziri ahantu mu biti, ibiti byinshi cyane by'amoko menshi, harimo imikindo, amapera ndetse n'ibindi biti, hari akayira k'amabuye, aho abantu banyura.

Abanyeshuri benshi bahetse ibikapu byabo, bahuriye ku mabuye ari hasi ajya kumera nk'amapave, bari muri gare, aho haparitse imodoka nyinshi, buri wese agiye gutega.

Inyubako nziza izitiye, ni ikibuga cy'umupira w'amaboko, aho ku mpande hari ibiti, ndetse hirya hakaba hari n'izindi nyubako, aho abaje gukina babanza kwishyuhiriza, harahari na ho.

Abanyeshuri bahagaze ku mirongo, bambaye ingofero z'umweru, bambaye imipira y'umweru iriho akantu gatukura, ndetse n'amajipo ya kake, ni abanyeshuri benshi.

Bicaye mu nzu nini, aho buri wese yicaye ku ntebe ye, biganjemo abanyeshuri ndetse n'urundi rubyiruko, baricaye, bari mu nama. Ibyumba binini bijya byakira abantu benshi.

Buriye mu madirishya barimo barasukura ibirahure, buri wese akandagiye ku ntebe ye, aho bambaye amajipo ya kaki ndetse n'amashati y'imyeru, ni abakobwa b'abanyeshuri.

Umunyeshuri wambaye impuzankano ya kaki ndetse n'ishati y'umweru, arimo arahoberana n'umuntu bahuye wambaye akagofero k'umuhondo n'inkweto z'umweru, yifubise n'ikote ry'umukara.

Ruhango tekiniko sekondari sukuru ni ishuri ryigisha imyuga riherereye mu karere ka Ruhango aho iyo uhize uba ufite ubumenyi ndetse ukaba unizewe mu kazi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano amajipo ya kaki, amashati y'umweru barimo barerekeza mu ishuri aho bari kumwe n'abarimu babo na bo bari kwinjira.

Uburiri bugerekeranye, hasi hari buriri, hejuru hari ubuririri, bwose buri ku gitanda kimwe ndetse n'ikindi niko kimeze, hirya no hino hari udukoresho, ni mu cyumba cy'abanyeshuri.

Icyapa kinini cyanditseho ngo "Welcome to our school", ni icyapa giteye mu busitani, aho ruguru yaho hari ibiti byinshi, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inyubako ikikijwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi bimeze nk'aho babiconze, hari ndetse n'izindi ndabyo, aho mu hagati harimo umuntu urimo uratambuka.

Abantu benshi barimo baragenda berekeza imbere yabo, ahari ahantu hameze nk'amazi y'ibizenga yaretse, hirya yabo hari inyubako nziza zigeretse.

Mudasobwa nziza nini zikoreshwa n'abantu ndetse zikagira umumaro cyane kugira ngo abantu bataruha, hari ibyo bandikisha intoki kandi mudasobwa zihari zarabugenewe.

Umusore ufite ibaga mu ntoki y'umukara, yambaye ikoboyi y'ipantaro n'ishati y'umukara, arimo aragenda yerekeza imbere y'abantu bari kuza bamusanga.

Inyubako irimo aka etajeri karimo ibitabo by'amoko menshi hari n'igitabo kiriho ifoto y'umukobwa wifashe ku mutwe. Ni inyubako nini cyane bigaragara ko ari isomero.

Isomero ririmo ibitabo byinshi by'amoko menshi byifashishwa mu mashuri, ni utubati tugiye tugerekeranye, aho buri wese yinjira agashaka icyo yifuza.

Abantu bubaka ni abantu baba bafite ubuhanga, aho bapimisha irati ndetse bakubaka inzu igakomera; inyubako isa neza ni iyo barangije kubaka.

Umuhanda ukomeza hirya no hino imbere y'inyubako, ni umuhanda w'amapave, imbere y'iyo nyubako hari utwapa tubiri tw'ubururu twandikishijeho amagambo y'umweru, izo nyubako zifite ubusitani bwiza.

Abagabo bicaye mu ntebe, biragaragara ko bari mu ishuri, baricaye imbere ya buri wese hari imashini ndetse n'amazi ari buze kunywa nagira icyaka, bambaye amakote imbere yabo hari umubyeyi w'umumama, uhagaze wambaye inkweto, ipantaro n'ikote.

Uburiri bushashe neza, buriho imashini ya mudasobwa, ni uburiri buriho ikiringiti cy'umweru n'umukara, hasi hari itapi y'umweru n'umukara, icyo gitanda kirazamuye.

Bari mu cyumba cyabugenewe, bambaye uturindantoki, aho bambaye n'amataburiya y'imyeru, barimo abasore ndetse n'inkumi, bari mu bushakashatsi.

Inyubako nziza zigeretse, zimeze neza, ziteye amarange meza, hagati harimo akandi kanyubako gatoya, hirya hari imodoka ndetse hino hari abantu.

Bari imbere y'inyubako barimo barareba abari muri siporo, ni abakobwa n'abahungu barahagaze bose barimo barabareba, abo bakinnyi bambaye imyenda y'icyatsi.

Inyubako nziza cyane, zikikijwe n'ibiti ndetse hari n'indabyo nziza, inyubako zigeretse zisakaje amabati atukura, aho imbere yaho hari umuhanda w'igitaka ugendwamo n'abantu benshi.

Ni inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, ifite ibirahure isakaje amabati, harimo imihanda inyuranamo ndetse hari n'ubusitani bw'indabyo.

Abantu bahagaze imbere y'icyuma kimeze nk'aho ari aho babikuririza amafaranga, bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu bwijimye, ni abagabo.

Inyubako igeretse isize amarangi meza cyane, hirya hari umuhanda abantu barimo baragenda, hino hari ubusitani bwiza burimo indabyo ndetse hanitsemo n'imyenda.

Mu kigo cy'amashuri, hari inyubako nziza igeretse, hari ibiti ndetse n'indabyo n'amajaride meza cyane, aho buri wese yagenda akaruhukira muri izo jaride.

Icyapa giteye ahantu mu byatsi byiza cyane bitoshye, ni icyapa cyanditseho amagambo ngo birabujijwe guca muri jaride, ni ahantu hateye ibyatsi ndetse n'ibiti.